Imifuka itandukanye irimo ifumbire yifashishwa n'abahinzi bari guhinga imyaka, kuko ituma babona umusaruro ushimishije. Ikindi kandi ifumbire ibaga nziza mu butaka.

Amacupa abiri garimo umuti wifashishwa mu gutera ibimera kugira ngo bitazarwara udusimba ikindi kandi ibimera bizatange umusaruro gushimishije.

Imifuka myinshi itandukanye irimo ifumbire bita imvaruganda, ikoreshwa n'abahinzi bari gufumbira umurima uhinzemo imyaka. Ikindi kandi iba myiza igatanga umusaruro ushimishije.

Ishyamba ririmo ibiti bigiye bitandukanye, har'ikirundo cy'ifumbire ikoreshwa mu gufumbira imyaka kugira ngo imere neza izatange umusaruro ushimishije, ikindi kandi iva mu bintu bigiye bitandukanye, har'iva mu matungo, iva mu byatsi n'ibindi.

Imirima itandukanye ihinzemo igihingwa cy'ibigori ,umwe urimo abahinzi babiri bafite ifumbire mu ntoki, bari kugenda bashyira muri buri kigori, kugira ngo bizatange umusaruro umeze neza, ikindi kandi ibigori biba byiza, kuko biba mu mafunguro atera imbaraga.

Umuti wifashishwa bari kuhira imyaka, kugira ngo itarwara udusimba, ikindi kandi hazaboneke umusaruro ushimishije.

Umurima uhinzemo umuceri urimo abantu bagiye batandukanye bari gufuhira, kugira ngo utazarwara ubukoko kandi umusaruro uzaze umeze neza ushimishije , basagurire amasoko ndetse na bo ubwabo babone ibyo kurya.

Ifumbire yifashishwa n'abahinzi bari kuyishyira mu myaka, kugira ngo imyaka imere neza, bityo izatange umusaruro umeze neza, ifumbire igira akamaro kanini cyane ku muhinzi, kuko imufasha kugira ngo imyaka ye imere neza.

Amafi menshi manini ari ahantu bamaze kuyaroba ntabwo ari mu mazi. Bayitaho, bayafashe neza kuko ntabwo yapfuye. Ikindi kandi amafi aba mu mafunguro akomoka ku matungo.

Amafi atatu ameze neza, asa neza cyane, ikindi kandi amafi aba mu biribwa bikomoka ku matungo.

Ubwato burimo abantu babiri bamaze kujugunya inshundura zabo mu mazi, ubwo kugira ngo bafate amafi bayajyane ku isoko abantu bayabagurire. Ikindi kandi amafi aba mu mafunguro twita ko akomoka ku matungo.

Amafi gatandukanye garagaragara nk'aho gari gacucitse .Gamwe garacuramye agandi garacurukuye gose gari mu bujyo bugiye butandukanye.

Abantu benshi cyane bari mu bwato butandukanye , bari ku mazi bari kugenda baroba amafi kugira ngo bayakure mu mazi ikindi kandi bayajyane ku isoko babone amafaranga.

Isahani iriho ifi imwe ifite ibirungo bimeze neza , bayitetse ku buryo bw'ubuhanga cyane kuko irasa n'umutuku. Hirya yaho hateguyeho agasarade , abantu bose bajye bategura ifi imeze gutya, kuko iraryoha.

Amafi ameze neza kandi menshi, amaze gutunganwa, ikindi kandi amafi agira isosi iryoshye, kandi aba mu mafunguro yubaka umubiri.

Amafi menshi kandi meza, bamaze kuyaroba ari mu nshundura. Ni amafi bita Tamusoni, araryoha cyane. Ikindi kandi, amafi atanga isosi imeze neza, aba mu mafunguro yubaka umubiri.

Imirima girimo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi iyo byitaweho bitangaga umusaruro gushimishije, umuhinzi agasagurira amasoko, ndetse nawe ubwe akihaza ku byo kurya.

Indabyo zisa umweru zimeze neza. Nk'uko bigaragara bazitaho uko bikwiye kugira ngo zizatange umusaruro ushimishije. Kuko indabo bazijyana ku isoko bakabonamo amafaranga, ikindi kandi abantu barazifashisha mu gutaka n'ibindi.

Ishyamba ririmo ibiti birebire bitandukanye, kandi ibiti bigira akamaro kanini cyane, kuko bivamo inkwi abantu bacanisha ibindi barabyubakisha habamo n'ibitanga umuti.

Umurima uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye, abantu bifashisha nko mu mitako, ikindi kandi hirya hari ikidendezi cy'amazi kibamo amafi kandi amafi aba meza, kuko aba mu mafunguro y'ubaka umubiri.

Ibitunguru bimeze neza babyitagaho kugira ngo bazabone umusaruro ushimishije, ikindi kandi babijyane ku isoko babone no ku mafaranga.

Igihingwa cy'umuzabibu kiraryoha cyane ,ikindi kandi kiba cyiza, umuntu wakiriye ntabwo yakivaho ,kuko kiba kimeze neza.

Umurima gumo ibiti by'ibigori basaruye, bakajana ku isoko, bakabona amafaranga ndetse bakanabika nibyo bazajya bajya.

Amazu yubatse neza yakikijwe n'ibimera bigiye bitandukanye, harimo: avoka, indabyo, ibitoki, ndetse n'ibindi. Kandi babijyana ku isoko bakabaha amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa bimeze neza babyitayeho, nibyera bizatanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi bitanga amafaranga ndetse n'ibyokurya.

Umurima gwurimo ibimera bitandukanye bimeze neza cyane, biragaragara ko byitabwagaho, nibyera bizatanga umusaruro gwushimishije.

Umurima urimo igihingwa cy'ibigori cyitaweho. Nicyera kizatanga umusaruro ushimishije ku muhinzi asagurire ndetse n'amasoko.

Umurima uhinzemo ibigori bimeze neza cyane, babyitayeho uko bikwiye. Nibyera bizatanga umusaruro ushimishije bajyane ku isoko babahe amafaranga, ikindi kandi basagure n'ibyo barya.

Umurima munini cyane, bawuhinzemo ibigori barabisaruye, ikindi kandi ibigori bivamo ibintu bigiye bitandukanye, babijyana ku isoko bakabigurisha bakabaha amafaranga, ndetse barabibeta bikavamo ifu abantu banywamo igikoma.

Igihingwa cy'avoka ni igihingwa cyiza cyane, kuko gitangaga umusaruro ushimishije, iyo bacyitayeho, umuhinzi abona amafaranga, ndetse akanajyaho kuri izo voka.

Umurima wo guhingamo bahinzemo ibihingwa. Barabisaruye byareze babijyana ku isoko, ibindi barabibika kugira ngo bajye babikuramo ibyo kurya.

Umurima munini cyane uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye. Harimo karoti n'ibindi. Ikindi kandi karoti zimeze neza, bazitayeho uko bikwiye. Zirashishe zizatanga umusaruro umeze neza.

Ibimera biba byiza cyane kuko bitanga ibyo kurya n' amafaranga. Umuhinzi wabihinze akabyitaho bitanga umusaruro umeze neza.

Imirima itandukanye ihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo: karoti, ibigori, ibirayi ndetse n'ibindi.ni ibihingwa bimeze neza cyane babyitayeho uko bikwiye nibyera bizatanga umusaruro ushimishije ku muhinzi.

Inkoko zitandukanye harimo isake, inkokokazi, ziri kurya ibiryo bazigaburiye, zimeze neza, zitabwaho uko bikwiye, zizatanga umusaruro ushimishije.

Umurima uhinzemo ibishyimbo. Harimo umuhinzi uri kubyitaho, bimeze neza abyitaho uko bikwiye, nibyera bizamuha umusaruro ushimishije asagurire amasoko.

Umurima munini uhinzemo amapera atatu, arahiye ari ku mashami yayo, umuhinzi ayajyana ku isoko abatayahinga bakamugurira bakamuha ku mafaranga.

Umurima munini, urimo ibihingwa bigiye bitandukanye, iyo umuhinzi afite intara, arigosorera, ibyo yejeje yabyitayeho, bimuha umusaruro umeze neza, ari kubitoranya kugira ngo abone ibyo abika, ndetse n'ibyo ajyana ku isoko.

Umuririma munini uhinzemo ibigori harimo umuhinzi ufite isuka ku rutugu ari kwitaba telefone. Ikindi kandi ibigori biba byiza kuko iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije, kandi bigatanga amafaranga bikavamo n'ibyo kurya.

Ubutaka burimo ibihingwa bitandukanye babyitayeho, nibabisarura bizatanga umusaruro gushimishije cane, abahinzi bihaze ndetse basagurire n'amasoko.

Umurima munini uhinzemo ibigori, Harimo n'abahinzi batatu bari kugenda bashyiramo ifumbire, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, bihaze ku biribwa ndetse basagurire n'amasoko.

Amapera abiri ameze neza, yarakuze uko bishoboka bayitayeho araryoshye, ikindi kandi aba mu biribwa birinda indwara.

Imyumbati imeze neza irabyibushye bayitayeho itanga umusaruro umeze neza ikindi kandi imyumbati iba mu mafunguro twita atera imbaraga.

Ibirayi bimeze neza birashimishije cyane ni binini rwose babyitayeho nabyo bitanga umusaruro ushimishije cyane.

Umurima uhinzemo icyayi cyinshi cyane, kirimo abahinzi batandukanye, bari kugishira mu dutebo ikindi kandi bakijyana mu ruganda bakagisya kikavamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ubutaka buhingwamo ibihingwa bitandukanye, ikindi kandi ubutaka bw'amakoro burera cyane, kuko ntabwo bisaba gushyiramo ifumbire.

Amatunda gari ku biti gameze neze garabyibushe cyane bagitayeho, gazatanga umusaruro ushimishije ku bujyo azasagurira n'isoko.

Inyanya ebyiri zihiye, urundi ntabwo ruhiye, zimeze neza. Nk'uko bigaragara zitaweho uko bikwiye na zo zitanga umusaruro ushimishije. Iyo urutetse rutanga isosi imeze neza cyane.

Avoka imwe nini isa n'icyatsi kandi avoka igira imimaro itandukanye, kuko abantu barayirya. Ikindi kandi ivamo amavuta abantu bakayasiga mu misatsi yabo, ikarambuka igasa neza cyane.

Umurima urimo abahinzi bari kwita ku myaka yabo kugira ngo bazabone, umusaruro umeze neza bari gushyiramo ifumbire, ndetse n'ibindi kugira ngo bazihaze ndetse basagurire n'amasoko.

Ibijumba byitwa gatura biraryoha cyane, kuko biba byifitemo amafufu ikindi kandi umuhinzi yabyitayeho, bimeze neza cyane birashimishije.

Umurima uhinzemo inyanya zimeze neza, zimwe zirahiye izindi ntabwo zari bwashye, gusa inyanya bazitayeho uko bikwiye, zirasa neza zirabyibushye. Uyu muhinzi zizamuha umusaruro ushimishije.

Ibicuruzwa bicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya n'ibyokunywa imineke, umutobe, ubuki n'ibindi bigiye bitandukanye abantu baza kubigura.

Ibigori bivanze n'amasaka barabibeta bikavamo igikoma, kandi kiba cyujuje ubuziranenge kuko kiba gifite intungamubiri. Ikindi kandi igikoma kiba cyiza ku mwana ndetse no ku muntu mukuru ugishoboye.

Amasaka yeze arimo amagi atatu kandi amasaka avamo ibintu bitandukanye byo kunywa, avamo igikoma , akavamo umusururu , kandi abantu benga inzoga barayifashisha bayashyira mu mutobe kugira ngo ushye.

Avoka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo izibanguriye n'izitabanguriye, ni avoka ziryoshye, ikindi kandi zitanga amafaranga ziba no mu mafunguro twita ko ari imbuto.

Ibijumba by'umutuku birajyohaga cane, iyo bihiye bitaga amafufu. Bibiri birabumbye ikindi kirasatuye, kandi ibingibi ku isoko birakundwaga cyane.

Umurima urimo umuhinzi uri gukura karoti zimeze neza cyane, yazitayeho, zirabyibushye, na we zimuha umusaruro umeze neza. Ikindi kandi, karoti zitanga amafaranga iyo umuhinzi yazitayeho uko bikwiye.

Umurima urimo umuhinzi, ari gusarura ibyo yahinze, yabyitayeho, karoti zimeze neza cyane, zamuhaye umusaruro ushimishije, azajyana ku isoko, ndetse asagurire no mu rugo rwe.

Umurima urimo ibigori, hahgazemo, n'umuhinzi nkuko bigaragara, abyitagaho nkuko bikwiye, nibyera bizatanga umusaruro, ushimishije, abonemo amafaranga, ndetse nawe ubwe asagure ibyo kurya.

Umurima uhinzemo umuceri, harimo abahinzi bane bari kuwubagarira, kugira ngo uzatange umusaruro ushimishije , basagurire isoko nabo ubwabo bihaze ku biribwa.

Umurima urimo ibishyimbo, bimeze neza bifite imitanyu imeze neza. Umunsi byeze bizatanga umusaruro ushimishije, kuko umuhinzi abyitaho uko bikwiye.

Umurima uhinzemo icyayi, ikindi kandi umuhinzi ari gusoroma, ubona ko kimeze neza, bakitayeho uko bikwiye, kandi icyayi ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu, ni kiza umuntu wese yajya akinywa.

Amashaza ari mu isafuriya ameze neza cyane ikindi kandi amashaza araryoha iyo wayavanze n'ibitoki n'ibirayi aba ameze neza, ikindi kandi amashaza aba mu biribwa twita ibinyabisogwe.

Ibihingwa iyo byitaweho bitangaga umusaruro gushimishije, kandi bigatanga amafaranga umuhinzi wabihinze ntabure ibyo kurya akaba ameze neza cane.

Ikiraro kirimo amatungo y'ihene abiri arimo kujya ubwatsi bw'urubingo rumeze neza cyane, ikindi kandi aga amatungo bagitaho kuko ameze neza.

Umurima uhinzemo amacunga, ameze neza, kandi areze, araryoshye, uko bigaragara yitaweho uko bikwiye, na yo atanga umusaruro umeze neza.

Ibijumba bisa neza bifite amabara atandukanye bimwe bisa n'umutuku ibindi bigasa n'umweru ,ikindi kandi ibijumba biba amafunguro atera imbaraga.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ibyo twita amatunda , hahagazemo umuhinzi . Ikindi kandi bimeze neza babyitayeho nibyera bizatanga umusaruro ushimishije.

Imirima itandukanye ihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi bimeze neza cyane, babyitaho uko bikwiye. Harimo abantu baza gusura imyaka, bari kureba uko abahinzi bayifata niba imeze neza cyane.

Amapapayi abiri, andi arasatuye, ameze neza cyane, arahiye, araryoshye, ameze neza cyane, bararetse arashya, ikindi kandi aba meza, kuko aba mu mbuto, barayajyana ku isoko abantu bakayagura batayafite.

Inyanya, puwavuro, bimeze neza cyane, babyitayeho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi inyanya zivamo isosi imeze neza abantu bifashisha, kandi banabijyana ku isoko bakabigurisha bakabona n'amafaranga.

Imiteja myinshi kandi myiza cyane irabitse iyindi barayirya ikindi imiteja iraryoha kandi iba mu biribwa birinda indwara.

Inyubako yubakishije amabuye ahiye, ikindi kandi imbere yaho, hicayeho umubyeyi ucuruza imbuto zitandukanye, harimo ibinyomoro, ndetse n'amatunda, arindiriye ko baza kubigura.

Umurima munini uhinzemo ibigori bimeze neza. Umuhinzi abyitaho bimeze neza cyane, biteye ubwuzu. Nibyera bizatanga umusaruro ushimishije, ndetse umuhinzi azasagurira n'amasoko.

Ibikeke bibiri bya avoka bisa neza n'imbere birasa n'umuhondo, n'avoka igaragara cyane ko iryoshe ikindi kandi avoka iba mu mbuto abantu bifashisha.

Umurima urimo ibigori bimeze neza, iruhande hahagaze umuhinzi ufite isuka ku rutugu, ari kuvugira kuri terefone, ibigori bigaragara ko byitaweho uko bikwiye, nibyera bizatanga umusaruro umeze neza.

Imyembe, inanasi, indimu, amacunga, ibitunguru, amashu, ibihaza ndetse n'ibindi ni ibihingwa abahinzi bahinga nyuma y'aho bakabibika, bakabijyana no ku isoko abatabifite bakabigura.

umurima urimo ibirayi bita Kinigi, bamaze kubikura, bimeze neza, babyitayeho bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi ibirayi biraryoha, iyo bigeretse ku bishyimbo biba ari ibirayi bimeze neza, kandi biba mu mafunguro atera imbaraga.

Imiteja imeze neza， irabyibushye biragaragara ko yitaweho uko bikwiye， ikindi kandi imiteja iyo ivanze n'udushyimbo， na karoti，biraryoha cyane.

Umurima gurimo ibigori bimeze neza cane, bigaragara ko babyitagaho uko bikwiye, ni byera bizatanga umusaruro gushimishije cane.

Umuhinzi ahagaze hagati y'ibihingwa biragaragara cane ko abyitagaho, ikindi kandi ibihingwa iyo ubyitayeho bitangaga umusaruro gushimishije.

Umurima gurimo abahinzi bari gukora imirimo zitandukanye, bamwe bari guhinga, abandi bagacukura ibinogo, abandi bashiramo ifumbire batera kugira ngo bazabashe kubona umusaruro gushimishije.

Umurima munini uhinzemo ibigori bimeze neza cyane, babyitayeho uko bikwiye nibyera bizatanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi ibigori bivamo igikoma, bikavamo n'ubugari bwo kurya.

Abahinzi bitaga ku bihingwa byabo bikabaha umusaruro gushimishije bagasagurira amasoko, abadahingaga bakabona ibyoku kujya nabo ubwabo bakihaza mu biribwa.

Umurima uhinzemo ibigori, urimo abahinzi batandukanye bari guteramo ifumbire, babyitaho kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije.

Umurima urimo ibihingwa bimeze neza cyane babyitaho uko bikwiye, nibyera bizatanga umusaruro ushimishije, kandi umuhinzi azasagurira n'amasoko.

Ibishyimbo barabihinga, babyitaho, bagashiraho n'ifumbire, ikindi kandi babijyana ku isoko bakabaha amafaranga, abatabifite baza kubihaha, hanyuma abacuruzi bakabibagurisha.

Amacunga gameze neza bagitayeho gatanga umusaruro gushimishije, bagajana ku isoko bakagagura, abandi bakabona n'ago baryaho...

Umurima gwuhinzemo ibirayi gwufite abahinzi bagwitagaho rwose neza, kuko bari kuvomerera ibirayi kugira ngo bitumagara kandi bizabahe umusaruro gwushimishije.

Inkwavu esheshatu zisa n'umweru, zimeze neza, zirabyibushye nk'uko bigaragara zitabwaho uko bikwiriye, ikindi kandi barazigurisha zigatanga amafaranga, ikindi zigatanga n'inyama abantu bakarya.

Ibijumba by'umutuku birajyoha iyo ubitetse bigasha gitaga amafufu ikindi kandi kiba gisa n'umuhondo mwimbere.

Umurima urimo umuhinzi ufite isuka, ari kubagarira itabi, ari kuryitaho kugira ngo rizamuhe umusaruro ushimishije arijyane ku isoko abone amafaranga, kugira ngo abashe gukemura ibibazo.

Ibitoki binini bibiri byiza bifite amabere ameze neza kimwe kirahiye, ikindi ntabwo gihiye; igihiye bakijyana ku isoko ku kigurisha, bakabaha amafaranga ikindi kandi nabo ubwabo bakabona imineke zo kurya.

Umurima munini uhinzemo ibigori, bimeze neza cyane, birashishe, kandi bizatanga umusaruro umeze neza, kuko yabyitagaho uko bikwiye, buri kigori gihetse bibiribibiri.

Ibigori bimeze neza cyane babyitayeho bitanga umusaruro umeze neza, ikindi kandi ibigori barabihungura bakabibeta bikavamo ifu y'igikoma, ndetse bakabiryamo n'ubugari. Babijyana no ku isoko bakabona n'amafaranga.

Imiteja imeze neza itondetse neza, irasa neza ni miremire. Ikindi kandi imiteja ni imboga ziryoha cyane.

Mu mirima yo mu gishanga itandukanye, irimo abahinzi bari guhinga umuceri. Ikindi kandi, umuceri uba mwiza iyo abahinzi bawitayeho, utanga umusaruro ushimishije. Ikindi, ukavamo amafaranga ndetse n’ibyo kurya.

Igihingwa cya gaperi ni cyiza cyane, kuko kirimeza cyangwa se abantu bakagitera, amababi yacyo ndetse n'imbuto zacyo zivamo umuti, abantu barawukoresha bari kwivura indwara zigiye zitandukanye.

umufuka usa n'umweru urimo ubunyobwa budatonoye, ubundi buri hasi harimo ubutonoye. Ikindi kandi ubunyobwa buba bwiza, kuko abantu barabubeta bukavamo ifu bakayishyira mu biryo bakanywa isosi imeze neza cyane.

Umuhinzi yahinze ibihwagari, kandi ni igihingwa cyiza cyane, kuko kivamo amavuta yo kurya, ikindi kandi barabibeta bakabishyira mu biryo bigira isosi imeze neza.

Ibigori bimeze neza cyane, umuhinzi yabyitayeho nabyo bitanga umusaruro bishimishije biramanitse harindiriye ko byuma kugira ngo babikoreshemo ibyo kurya ndetse babigurishe bitange n'amafaranga.

Umuhinzi wahinze ibishyimbo, bimeze neza cyane, yabyitagaho uko bikwiriye, na we bimuha umusaruro umeze neza, asagurira isoko na we ubwe.

Umurima uhinzemo umuceri umeze neza bawitayeho. Uzatanga umusaruro ushimishije, umuhinzi asagurire ndetse n'amasoko. Na we ubwe abone ibyo kurya.

Ibihingwa by'ibinyampeke iyo byitaweho bitanga umusaruro ushimishije kandi bivamo ibintu bitandukanye nk'ibishyimbo, ibivamo igikoma, ibigori nabyo bivamo ubugari n'igikoma n'ibindi.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bimeze neza, babyitaga uko bikwiriye bizatanga umusaruro ushimishije. Umuhinzi azasagurira amasoko kandi nawe ubwe yihaze ku byo kurya.

Inzu yubakishije ibiti, bayanitseho ibishyimbo, babifunze kugira ngo byume neza. Ubu ni uburyo bwiza bwo gufata neza imyaka kugira bitazapfa. Ikindi kandi, bivemo imbuto yo guhinga nanone.

Umurima munini cyane uhinzemo amasaka bita Nyiragikori, ameze neza kandi amasaka ya Nyiragikori avamo igikoma kiryoshye. Bawitayeho umusaruro w'aya masaka uzaba ushimishije cyane.

Soya ,ibishyimbo bisa n'umutuku, ibindi bisa n'umukara, harimo amashaza, ni ibihingwa bimeze neza cyane iyo abantu babyitayeho bitanga umusaruro ushimishije.

Ibigori bitatu bisa n'umuhondo, abantu barabyanika bikuma bakabihungura, ubundi bikavamo imbuto abantu bifashisha mu guhinga, igihe cy'ihinga, kandi ibigori bisa n'umuhondo birera cyane.

Umufuka gurimo ibishyimbo bimeze neza cane kandi imbuto yago ni nini ntago yabaye ntoya, yitaweho itanga umusaruro ushimishije.

Ubutaka burimo ibishyimbo byatangiye kumera, biri kuzamuka bimeze neza cyane, nibabyitaho bizatanga umusaruro ushimishije.

Umumama uhetse umwana mu mugongo, afite intara yashyizeho ibishyimbo ari kubigosora. Ikindi kandi hirya ye hubatse inzu y'ibiti ihomesheje ibyodo, isakaje ndetse n'ibyatsi bya kera.

Ibishyimbo bimeze neza byitaweho. Nibyera bizatanga umusaruro ushimishije, bimwe biracyafite ururabo.

Ubunyobwa bwinshi bubyibushye harimo: ubutunoye ubundi ntabwo butonoye, ikindi kandi babwitayeho bumeze neza cyane, burumye barabwanitse, buvamo isosi.

Ihema ryanitseho ibishyimbo. Umugabo ari kugenda abisandaguza kugira ngo bibashe kuma neza, azabone umusaruro umeze neza. Ikindi kandi, iyo byumye neza nibwo bivamo imbuto yo guhinga ibindi.

Ikiraro kibamo inka isa n'umweru n'umukara, yambara amaherena, ikindi kandi imeze neza cyane, bayitaho uko bikwiye, bayikoreye ikintu iriramo, ubwatsi bwayo buba bufite isuku.

Inzu yubatse neza, ikindi kandi isize amarangi y'umuhondo, icururizwamo imiti igiye zitandukanye, iy'amatungo, ndetse n'ibihingwa.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa n'icyatsi n'ingofero, bafite ingurube ebyiri, zimeze neza ziibyana, bazitaho kandi ingurube itanga umusaruro umeze neza iyo yitaweho, igatanga ndetse n'amafaranga ku wa yoroye.

Inkoko nyinshi, bazororeye ahantu, zimeze neza, ni amasake bayitaho uko bikwiye, zizatanga umusaruro umeze neza ku mworozi, azabona amafaranga, ndetse abone n'ifumbire yo gukoresha mu murima.

Icyumba kirimo inkoko nyinshi cyane zitandukanye harimo isake ndetse hakabamo n'inkoko kazi, harimo umuntu uri kuzigaburira azitaho nkuko tubibona zirasa neza cyane.

Amagi asa neza, ateretse ahantu hameze neza ku buryo atakwigera ameneka. Ikindi kandi, inkoko yayateye yateye amagi manini cyane.

Ishyamba ririmo inka imwe iri kurisha ubwatsi bumeze neza, ikindi kandi nayo imeze neza. Inka yarishije ubwatsi igira amata ameze neza.

Amatungo gari gukingirwa kugira ngo bagarinde indwara, ikindi kandi ni byo bituma amatungo gamera neza gagatanga umusaruro gushimishije.

Ikiraro kirimo inka iri kurya ubwatsi twita urubingo, inka imeze neza yitabwaho rwose, biragaragara cyane.

Ikiraro cyubakishije ibiti bacyororeramo ingurube, ikindi kandi bazitaho uko bikwiye, zimeze neza, zizatanga umusaruro ,ushimishije babone amafaranga, kindi kandi bakemure ibibazo bagiye bafite ku bw'ayo mafaranga babonye muri izo ngurube.

Inka ebyiri zishorerwa n'abashumba babiri, hirya yabo hari amazu yubatse abamo abantu. Ikindi kandi inka ziri kujya kurisha ubwatsi ahantu bakunda kuziragira.

Ikiraro cyubatse neza kibamo amatungo magufi y'inkoko ameze neza asa n'umweru, ikindi kandi bayitaho inkoko zitanga umusaruro umeze neza iyo bazitayeho.

Ikiraro kibagamo ingurube iri kumwe n'uyitaho kugirango igireho ubuzima bwiza kandi izatange umusaruro gumeze neza.

Urupangu rurimo inka zitandukanye, ku ruhande hari abandi bantu bari kuzifata bari kuzikingira, kugira ngo bazirinde indwara, bityo zizatange umusaruro umeze neza ku mworozi.

Ikiraro kibamo ihene imwe, imeze neza bayitaho bayiha ubwatsi bumeze neza, ikaba aribwo irya.

Inyoni ifite umunwa usongosoye, ifite amabara atandukanye, harimo ay'umweru n'asa ubururu, ikindi kandi, inyoni iba mu nyamaswa ziba i gasozi.

Inyoni isa n'umukara ndetse ifitemo n'amabara asa n'umweru n'umutuku. Umunwa wayo urasongoye cyane ihagaze ku rutare. Ikindi kandi iba mu nyamaswa ziba mu gasozi.

Inyoni ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi n'umukara. Ikindi kandi, iri kuboha icyari cyo kwarikamo. Inyoni iba nziza kuko yita ku bana. Ikindi kandi, iba mu nyamaswa ziba mu gasozi.

Inyoni imwe isa n'umukara ihagaze mu byatsi, irabyibushye imeze neza cyane. Ikindi kandi iba mu nyamaswa zibaga igasozi. Zigira umumaro munini kuko abantu baza kuzireba, kuko ziba ziteye ubwuzu.

Ikiyongoyongo kigira umunwa usongosoye, kikagira amabara asa n'umweruru, ayandi asa n'umukara, ikindi kandi kiba mu nyamaswa ziba i Gasozi, ikunda kuba ahantu mu gishanga haba amazi.

Ikiyongoyongo ni kimwe mu nyamaswa ziba mu gasozi, ikindi kandi kigira umunwa muremure, kikagira amaguru maremare, gikunda kuba ahantu twita mu gishanga.

Inyamaswa z' igasozi zibaga nziza cane kuko zitangaga umusaruro gushimishije. Zikurura abantu baje kuzireba kuko zibaga ari nziza bigaragara ko zitabwagaho cane.

Inyamaswa nziza cyane, isa neza ifite amahembe ateze neza, iri kwirukanka, ikindi kandi iba mu nyamaswa zifite amahembe ateze neza, kandi zitanga umusaruro umeze neza ku Rwanda, kuko zituma abakerarugendo baza kuzisura.

Igiti cy'umugano kiriho inyamaswa y'igasozi iri kurira imeze neza, ikindi kandi zigira akamaro kanini cyane kuko bituma haza abakerarugendo kuzireba.

Inkoko ebyiri ziri mu ishyamba ni inyamaswa ziba i gasozi. Ikindi kandi zivamo inyama, abantu iyo bazifashe barazirya. Inyamaswa z'igasozi zigira umumaro munini cyane.

Inyamaswa ebyiri zisa, ikindi kandi zifite amabara ameze neza n'inyamaswa ziba mu ishyamba, ikindi kandi zituma abakerarugendo baza gusura igihugu, kikinjiza amafaranga.

Inyamaswa y'igasozi imeze neza cane, ifite ubwoya buhagaze. Iteye ubwoba ukiyibona wakwirukanka cane.

Igiti gihagazeho inkima ziba nziza cyane, kuko n'inyamaswa ziba igasozi, ikindi kandi zikora ibintu zigasetsa, abakerarugendo baza kuzisura cyane.

Akanyamasyo ni inyamaswa ishimishaga cane, kuko ifite icintu kiyitwikiye hejuru ciyirinda, kandi igenda buhoro nico kintu ciyirangaga cane.

Ingagi ebyiri zisa n'umukara, ni inyamaswa nziza cyane, zirashimishije, ziteye ubwuzu. Ikindi kandi zigira akamaro kuko zituma ba mukerarugendo baza kuzisura, bakinjiza amafaranga, ikindi ziba mu nyamaswa ziba i gasozi.